Abantu, abo bantu ni abagore batatu bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, umwe muri bo arunamye ari kuvomera mu ndobo ifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, yambaye ibirenge.

Abantu, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, baricaye. Imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro gifite ibara rijya gusa umweru, kuri ayo meza hataretseho mudasobwa, hariho n'amacupa y'amazi.

Abantu, muri abo bantu harimo abagore abagabo ndetse n'abana bato, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bicaye mu ihema umwe muri bo arahagaze ni umugabo afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, icyo cyapa kandi kiriho ibirango bitandukanye.

Abantu benshi muri abo bantu bo harimo abagore n'abagabo bahagaze munsi y'igiti kinini, bambaye imyambaro ifite amabaragi atandukanye, abenshi muri bo bambaye ingofero z'umweru imbere yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Abantu, abo bantu ni abanyeshuri bicaye. Harimo abahungu n'abakobwa, imbere ya bo hari ameza ateretseho ibiryo, abakobwa bambaye impuzankano y'ishuri ifite ibara ry'ubururu n'abahungu bambaye impuzangano y'ishuri ifite ibara rya kaki.

Abantu batatu babiri muri abo bantu ni abagore undi umwe n'umugabo, baricaye bambaye myambaro ifite amabarage atandukanye umugabo afashe umwe muri abo bagore ku bitugu, uwo mugore yambaye ikoti rifite ibara ry'umukara.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu harimo abagore abagabo ndetse n'abana bato barahagaze bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye umwe muri abo bantu ni umwanawana muto wambaye umupira w'umutuku ari kuvoma.

Abana, abo bana ni abanyeshuri harimo abakobwa n'abahungu, bambaye impuzangano y'ishuri ifite ibara rijya gusa kake, bari kuvoma, imbere yabo hari indobo zifite ibara rijya gusa umuhondo.

Umuntu, uwo muntu ni umuyeshuri, arunamye yambaye impuzankano y'ishuri ifite ibara ry'ubururu bwijimye n'ibara ry'umweru, imbere ye hari ivomero hari n'indobo ifite ibara rijya gusa nk'icyatsi cyerurutse.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo imbere ye hari ijerekani, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye ishati y'amaboko magufi irimo amabara menshi avanze, yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara. Uwo muntu ari guseka.

Umuntu, uwo muntu ni umugore, arahagaze ateruye mwana, ateze igitambaro ku umutwe yambaye umwambaro ufite amabara menshi atandukanye, mu ntoki afite urupapuro runini rufite ibarajya gusa umuhondo.

Umuntu, uwo muntu ni umugore uhagaze, yambaye ingofero y'ubururu, yambaye umupira w'amaboko magufi, akenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye, yiganjemo ibara rirya gusa n'icyatsi cyerurutse ari kuvoma.

Abantu abenshi muri abo bantu ni abana bato, bambaye imipira yanditseho mu mugongo amagambo ari mu ibara ry'umukara, baricaye umwe muri abo bantu ni mugore arasutamye yambaye amadarubindi n'ingofero mu mutwe.

Abantu benshi batandukanye. Muri abo bantu harimo abirabura n'abazungu. Harimo abagore n'abagabo. Abo bantu kandi barahagaze. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Umuntu, uwo wumuntu ni umugore uhagaze, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, ateze igitambaro mu mutwe, ateruye umwana, uwo muntu kandi afite urupapuro runini mu ntoki, rufite ibara rijya gusa nk'umuhondo.

Abantu, babiri muri bo ni umugabo n'umugore bagaraga igice cyo hejuru gusa. Umugabo yambaye amadarubindi, yambaye umwambaro ufite ibara rijya gusa nku'ubururu bwijimye inyuma wanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu byinshi.

Abantu batatu, babiri muri abo bantu ni abana bato, undi ni umugore ari guseka, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo ibara ry'iroza, afite ijerekani mu ntoki, ari kuvoma.

Ikinyabiziga, icyo kinyabiziga ni imodoka ikora mu buryo bw'ubutabazi kwa muganga, iruhande rwayo hari abantu benshi batandukanye, abagore, abagabo ndetse n'abana bato, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, inyuma yayo hari ihema hari n'inyubako ndetse n'ibendera.

Abana benshi, muri abo bana harimo abahungu n'abakobwa, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bamwe muri bo bari gukaraba ku ivomero, abandi bahagaze bakikije ivomero, bareba uko abandi bakaraba.

Umuntu, uwo muntu ni umwana muto, arunamye ari guseka, yambaye umwambaro wo hejuru ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, yambaye ipantaro ifite ibara rijya gusa ivu, imbere ye hari intebe iteretseho indobo.

Abantu benshi batandukanye. Muri abo bantu, higanjemo abakiri bato. Barahagaze. Umwe muri abo bantu, ahagaze imbere y'abandi, yambaye ingofero, afite indangururamajwi, yambaye n'ishati ifite amaboko maremare.

Abantu benshi batandukanye, abo bantu ni abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Bahagaze imbere y'inyubako isize irangi ry'ubururu, kuri iyo nyubako hejuru kandi hariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Abantu batandukanye, bamwe baricaye abandi barahagaze, babiri muri abo bantu umwe ni umugabo, yambaye amadarubindi, afite isahani iriho ibiryo, undi ni umugore aricaye ateruye umwana.

Umuntu, uwo muntu ni umwana muto w'umuhungu yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi cyerurutse, yambaye n'ikabutura, ari gukaraba ku ivomero, inyuma ye hari indobo ifite ibara ry'ubururu.

Abantu batanu, bane muri bo ni abagore, undi umwe ni umwana muto bahagaze ku iriba, babiri muri bo bafashe indobo mu ntoki ifite ibara ry'ubururu, kuri iryo riba kandi hariho icyapa gito cyanditseho amagambo.

Abantu batatu, babiri muri bo barahagaze, bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara rijya gusa ubururu, bambaye n'udupfukamunwa tw'umweru, undi ni umugabo aricaye, yambaye ingofero y'ubururu mu mutwe.

Abana, abo bana ni bane, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bari ku ivomero, imbere yabo hari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari umurima.

Abantu batanu bane muri abo bantu ni abana bato bari guseka, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye barahagaze, hagati yabo hari ibase ifite ibara ry'umutuku bari kubakarabya intoki.

Umuntu, uwo muntu ni umwana w'umukobwa muto arunamye. Yambaye umwambaro ufite amabara agiye atandukanye, yiganjemo ibara ry'umukara n'umweru. Ari kwoza indobo ifite ibara ry'umweru. Imbere kandi hari izindi nzobo ebyiri.

Abantu bane, babiri muri bo ni abagabo abandi babiri ni abagore, umwe muri abo bagore afite indangururamajwi mu ntoki, imbere yabo hari ameza atwikije igitambaro cy'umukara ateretseho amacupa y'amazi na mudasobwa.

Abantu babiri bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo ari koza igare undi ari kudaha amazi mu kiyaga akoresheje ijerekani ifite ibara ry'umuhondo nyuma y'icyo kiyaga hari ibyatsi byinshi.

Abantu bahagaze muri abo bantu harimo abagabo n'abagore bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bahagaze imbere y'inyubako isize amarange atandukanye harimo cyane cyane irange ry'ubururu.

Abantu, abenshi muri abo bantu ni abana bato, abandi ni abantu bakuru, umwe muri abo bantu ni umwana muto yiteye igitenge ku bitugu, afite ijerekani mu ntoki, imbere ye hari ivomero.

Abantu babiri, abo bantu ni abagore, umwe muri bo aricaye yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye ateruye umwana, undi arunamye yambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru.

Abana abo bana ni abanyeshuri harimo abakobwa n'abahungu, bambaye impuzankano y'ishuri ifite ibara rijya gusa kake barimo kuvoma, imbere yabo hari indubo zifite ibara ry'umuhondo.

Abantu batatu, abo bantu n'abagore bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bahagaze ku ivomero, babiri muri bo bambaye udupfukamunwa dufite ibara ry'umweru, kuri iryo vomero kandi hateretseho amajerekani abiri.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye, abo bantu ni abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Baricaye, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikombe, ateretseho n'ibindi bikoresho.

Abantu benshi muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'ubururu, bamwe baricaye abandi barahagaze bari mu byatsi, nyuma yabo hashinze ihema ry'umweru.

Abantu benshi muri abo bantu harimo abagore, abana bato ndetse n'abagabo bari ku ivomero, bamwe baricaye abandi barahagaze, kuri iryo vomero kandi hariho amajerekani menshi afite amabara atandukanye.

Abantu benshi batandukanye, abo bantu harimo abagore n'abagabo baricaye, bamwe muri bo bafite impapuro mu ntoki na telefoni zigendanwa, bambaye kandi imyambaro ifite amabara agiye atandukanye.

Umuntu uwo muntu ni umugabo arunamye yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara rijya gusa ubururu bwererutse yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, imbere ye hari akajerekani gafite ibara ry'umuhondo.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ayo magambo yanditse mu mabara agiye atandukanye, kuri icyo cyapa kandi hariho amashusho y'abantu, hariho abagore, hariho n'abagabo, abirabura n'abazungu.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye, bamwe muri bo ni abirabura abandi ni abazungu, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi n'indangururamajwi.

Abantu batandukanye. Muri abo bantu, harimo abagore n'abagabo. Baricaye. Imbere yabo, hari imodoka igaragara igice kimwe. Inyuma yabo, hari inyubako ifite irange rijya gusa ubururu. Bamwe muri abo bantu, bafite impapuro mu ntoki.

Abantu, umwe muri bo ni umugabo arunamye. yambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara rijya gusa nk'umuhondo, afite igikapu mu ntoki, imbere ye hari umwana mutoya, inyuma yabo hari abandi bantu batagaragara neza.

Abantu batanu, bane muri bo baricaye undi umwe arahagaze, abo bantu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'ubururu bwerurutse n'ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu.

Abantu batandukanye. Bose bambaye udupfukamunwa, dufite ibara rijya gusa nk'ubururu bwerurutse. Umwe muri bo, ni umugabo ukuze. Aricaye. Yambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara rijya gusa kake. Bari kumutera urushinge.

Umuntu uwo muntu ni umwana muto wambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye agapira k'amaboko magufi, karimo amabara y'ubururu n'ibara ry'umukara, uwo mwana ari guseka ahagaze ku ivomero.

Abantu batandukanye, abo bantu ni abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi n'ibirahuri, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo hari n'insakanyamashusho.

Abantu benshi batandukanye, abo bantu ni abagabo bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye, baricaye imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro cy'icyatsi, ateretseho ibirahuri n'impapuro.

Abantu batandukanye, muri abo bantu harimo abirabura n'umuzungu, bamwe muri abo bantu bambaye amadarubindi, ni abagabo, bambaye kandi n'amakoti afite amabara agiye atandukanye, abo bantu bose bahagaze imbere y'icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Abantu babiri muri abo bantu ni abagore bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'ubururu afite urushinge mu ntoki, imbere ye hari ameza arambitseho amakaye.

Abantu benshi, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo baricaye, umwe muri abo bantu ni umugabo arahagaze, yambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru, yambaye n'inkweto z'umweru.

Abantu benshi bahagaze muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambara ifite amabara agiye atandukanye, iruhande rwabo hari ibendera rifite amabara atatu harimo ibara ry'icyatsi, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu.

Abantu babiri bahagaze, umwe muri abo bantu ni umugabo w'umwirabura, yambaye amadarubindi, undi ni umugore w'umuzungu, inyuma yabo hari ibyapa bifite ibirango bigiye bitandukanye biri no mu mabara atandukanye, bombi bafashe icyapa mu ntoki.

Abana, abo bana ni abana babiri b'abahungu, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku, abo bana bombi barasutamye imbere y'ivomero, amazi ari kumanuka mu biganza byabo.

Umuntu, uwo muntu ni umugore wicaye akenyeye igitenge, yambaye n'ishati ifite amabara menshi atandukanye yicaye ku rubaho, imbere ye hari umusambi, inyuma ye kandi hari idirishya rifunguye.

Abantu benshi muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, barahagaze, iruhande rwabo hari ameza manini atwikirije igitambaro cy'umweru ateretseho amacupa y'amazi ndetse n'amakayi.

Umuntu, uwo muntu n’umugabo uhagaze yambaye ikoti ry'umukara, yambaye ipantaro y'umukara, imbere ye hateretse indabyo zifite amabara agiye atandukanye, inyuma ye kandi har’urukuta runini rwanditseho amagambo ari mw’ibara ry'umweru.

Umuntu uwo umuntu numu umugabo wambaye imyenda icitse afite igitebo mu kuboko kumwe afite n'ibindi bikapu bibiri ku rutugu rw'ukundi kuboko inyuma ye hari imodoka nini ifite ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari inyubako imanitseho icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Abantu babiri bahagaze, abo bantu ni abagabo, umwe muri bo yambaye imyambaro icitse, undi yambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, yambaye ishati y'amaboko maremare irimo amabara avanze, yambaye n'ipantaro y'umukara.

Abantu, abo bantu ni abana batoya harimo abakobwa n'abahungu, barahagaze bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, iruhande rwabo hari ibyatsi byumye ndetse n'inyuma yabo hari ibindi byatsi.

Abantu benshi bahagaze. Muri abo bantu harimo abagore harimo n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Iruhande rw’abo hari icyapa kinini, kiriho amashusho cyanditseho n'amagambo.

Abantu benshi bahagaze, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri abo bantu ni abashinzwe umutekano, bahagaze imbere y'inyubako yanditseho amagambo manini ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu babiri abo bantu nI umugore n'umugabo bicaye bagaragara igice cyo hejuru gusa, umugore afite imisatsi miremire yambaye imyambaro irimo amabara menshi atandukanye, afite indangururamajwi mu ntoki, naho umugabo yambaye umupira w'amaboko magufi.

Umuntu, uwo umuntu n'umwana muto w'umukobwa. Ari guseka afite imisatsi iboshye, yambaye impuzankano y'ishuri. Ifite ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu bwijimye, inyuma ye hari abandi bantu batagaragara neza.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo ukuze yicaye hasi, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ryijya gusa umutuku, yambaye n'ikabutura, uwo muntu kandi yambaye amapingu ku maboko.

Abantu benshi batandukanye, abo bantu bari kugenda mu muhanda, bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye, abenshi muri bo bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara rijya gusa icyatsi cyerurutse, bafite icyapa mu ntoki, undi umwe afite indangururamajwi n'urupapuro.

Abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo baricaye. Imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro ateretseho amacupa y'amazi.

Umuntu, uwo muntu ni umugore ukuze uri guseka, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, uwo muntu kandi aricaye aratetse, iruhande rwe hari igikombe gifite ibara ry'icyatsi, inyuma y'uwo muntu kandi hari inyubako.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo uhagaze imbere y'inyubako, kuri iyo nyubako handitsweho amagambo manini ari mu ibara ry'ubururu, uwo muntu yambaye amadarubindi, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro ifite ibara ry'umukara.

Abo bantu harimo abagore n'abagabo bicaye bambaye iyi myambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo ni umugore afite indangururamajwi mu ntoki, imbere yabo hari ameza atwikiri igitambaro cy'umweru ateretseho mudasobwa n'amacupa y'amazi.

Umuntu, uwo muntu n'umugabo aricaye, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku, yambaye n'inkweto z'umukara inyuma ye hari urukuta rwanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'umukara.

Abantu, muribo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye, baricaye inyuma yabo hari urutoki hari n'ibiti. Umwe muri abo bantu ni umugore yambaye ikarita y'akazi mu ijosi afite urupapuro mu ntoki.

Abantu babiri, abo bantu ni abagore bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, baricaye, inyuma yabo harambitse imyase, umwe muri bo afite imisatsi miremire, yambaye umupira ufite amaboko maremare.

Abantu, abo bantu ni abagore n'abagabo ndetse n'abana bato, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, mu ntoki bafite utubendera duto dufite amabara atatu harimo ibara ry'icyatsi, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu.

Umuntu uwo muntu ni umugore wicaye, afite umusatsi muremure ari guseka, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye amaherena afite indorerwamo mu ntoki ari kwireba.

Abantu batatu, umwe muri bo ni umugore araryamye, abandi babiri ni abagabo, bambaye amadarubindi, bambaye udupfukamunwa, bambaye n'imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa, ari guseka, afite ubwanwa, yambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye, yambaye ikoti rifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwerurutse, yambaye n'umwenda wo mo imbere ujya gusa kacye.

Abantu babiri umwe ni umugabo wicaye, yambaye imyambaro y'akazi ifite ibara rijya gusa n'icyatsi, yambaye amadarubindi yambaye n'agapfukamunwa, uwo mwana araryamye ku gitanda.

Umwe muri abo bantu ni umwana araryamye undi ni umugore yambaye amadarubindi mu mutwe yambaye agapfukamuwa gafite ibara ry'ubururu bwererutse yambaye n'umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bamwe ni abirabura abandi n'abazungu bamwe muri bo kandi baricaye abandi barahagaze nyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo.

Umuntu, uwo muntu ni umugore ufite imisatsi miremire yicaye hasi, yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, yambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara, inyuma ye hari igiti hateretse n'itara.

Umuntu, uwo muntu ni umugore ugaragara igice cyo hejuru gusa. Afite umusatsi ufite ibara ry'umweru, yasetse. Uwo muntu kandi yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye arimo ibara ry'umweru. Uwo muntu afite ikanya mu ntoki.

Abantu babiri, abo bantu n’umugore n'umugabo bagaragara igice cyo hejuru gusa bari guseka. Umugabo afite ubwanwa, yambaye n'umwambaro w'akazi ufite ibara ry'ubururu bwerurutse. Umugore yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ubururu ,afite n'inkoni mu ntoki.

Abantu babiri abo bantu ni abagore baricaye umwe muri bo afite imisatsi miremire y'umukara yambaye amadarubindi yambaye agapfukamunwa gafite ibara rijya gusa ubururu yambaye n'imyambaro y'akazi.

Abantu bari mu isoko, abo bantu ni abagore bicaye bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, abenshi muri bo bateze ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hari inyanya, inyuma yabo kandi hari imbuto zitandukanye.

Abantu babiri umwe muri bo ni umugabo ukuze aricaye, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara rijya gusa nk'umuhondo, yambaye n'ipantaro ifite ibara rijya gusa ubururu bwijimye ari gukurura imigozi.

Abantu babiri bicaye umwe muri bo ni umugabo ukuze, undi ni umugore, uwo mugore yambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho akamashini ko kwa muganga.

Abantu batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye abenshi muri bo baricaye umwe muri bo umugabo arahagaze yambaye amadarubindi yambaye n'ikarita y'akazi mu ijosi.

Abantu, aba bantu ni abagore babiri bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo ni umugore ukuze, aricaye afite ikirahuri mu ntoki kirimo amazi, imbere ye hari ameza arambitseho ibintu.

Abantu babiri abo bantu ngabo n'umugore bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye, umugore yambaye umwambaro w'akazi ufite ibara rijya gusa n'ubururu bwerurutse, naho umugabo yambaye umupira w'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru yambaye n'ipantaro ifite ibarajya gusa umukara.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo ugaraga igice cyo hejuru gusa, yambaye amadarubindi, yambaye ishati ifite ibara rijya gusa nk'icyatsi cyijimye, yambaye n'umupira w'amaboko maremare ufite ibara rijya gusa umweru ari kwandika.

Abantu abo bantu ni abagore, abenshi muri bo bambaye umwambaro wo hejuru ufite ibara ry'umweru n'umwambaro wo hasi ufite ibara ry'umukara, bambaye n'udupfukamunwa abenshi muri bo bateze ibitambaro abandi bambaye ingofero.

Abantu, aba bantu ni batatu, babiri muri bo ni abagore, undi umwe ni umugabo barahagaze, imbere yabo hari ameza atwikije igitambaro cy'umweru, ateretseho amasahani arimo imboga n'ibindi biribwa bitandukanye.

Umuntu, uwo muntu n'umugore ugaragara igice cyo hejuru, gusa afite imisatsi miremire yambaye amadarubindi, yambaye umwambaro ufite ibara ryajya gusa umuhondo, imbere ye hari ameza ateretseho icupa ndetse n'ibinini.

Umuntu. Uwo muntu ni umusaza ugaragara cyane igice cyo hejuru gusa, yambaye amadarubindi, yambaye kandi n'umupira w'amaboko magufi ufite ibara rijya gusa umweru. Uwo musaza yarambuye amaboko ye yombi.

Abo bantu ni batatu, ni abagore bagaragara igice cyo hejuru gusa, bari guseka, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo ahagaze hagati, afite terefoni igendanwa.

Abantu, abo bantu ni batandatu, harimo abagore n'abagabo harimo n'umwana muto, bari guseka. Abo bantu kandi baricaye, bicaye ku ntebe itwikirije igitambaro gifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwerurutse.

Abantu babiri, umwe muri bo ni umugabo undi n'umwana muto, bari guseka, umugabo yambaye ikabutura, umwana yambaye ipantaro ifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwerurutse, uwo mwana kandi afite umupira mu ntoki.

Abantu babiri, umwe muri bo ni umugabo ukuze, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu, yambaye n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, undi ni umugore, yambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara, afashe uwo mugabo ukuboko no ku rutugu.

Abantu benshi. Muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi, bari munsi y'igiti kinini, inyuma yabo hari amazu abiri.

Abantu babiri, abo bantu ni abagore bagaragara igice cyo hejuru gusa, umwe muri bo afite umusatsi muke ku mutwe, yambaye amaherena ari guseka, yarambuye amaboko, undi afite umusatsi muremure.

Abantu babiri bahagaze, umwe muri bo ni umugore, ari guseka, ahetse igikapu mu mugongo gifite ibara ry'umukara, afite n'ikindi mu ntoki gifite ibara rijya gusa kacyi, yambaye ikoti, yambaye n'ipantaro.

Abantu babiri, umwe muri bo ni umugabo yambaye amadarubindi, yicaye mu kagare, undi ni umwana afite imisatsi myinshi, yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara rijya gusa icyatsi cyijimye.

Abantu batatu, babiri muri bo ni abagabo, undi umwe n'umugore, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo ni umugabo ukuze afite umusatsi w'umweru yambaye umupira w'amaboko maremare, abandi babiri bamufashe amaboko bari kumuhagurutsa.

Abantu batatu babiri muri bo ni abagore undi ni umugabo ukuze, yambaye amadarubindi, yambaye umupira w'amaboko magufi aricaye, yarambuye amaboko ye yombi.

Abantu babiri, umwe ni umugore arahagaze ari guseka, undi ni umugabo ukuze aricaye, umugore yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru, umugabo afite inkoni mu ntoki.

Aba bantu ni abagore babiri bagaragara igice cyo hejuru gusa, umwe aricaye undi arunamye, bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye umwe muri bo yambaye amadarubindi, ateze igitambaro cy'umukara mu mutwe.

Abantu babiri, abo bantu ni abagore bagaragara igice cyo hejuru gusa, umwe muri bo afite imisatsi miremire ifite ibara ry'umukara, ari guseka, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'iroza.

Abantu babiri abo bantu ni abagabo baricaye, umwe muri bo yambaye ingofero yambaye amadarubindi yambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye n'ishati y'amaboko maremare afite urushinge mu ntoki.

Abantu bane abo bantu ni ababikira batatu n'umugabo umwe, ababikira bambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru n'ibara rijya gusa nk'ubururu bwererutse, umugabo yambaye ikoti rifite ibara rijya gusa ivu, inyuma yabo hari icyapa kinini.

Abantu batandukanye, abo bantu bambaye udupfukamunwa, bambaye kandi n'imyambaro ifite amabarage atandukanye, bamwe muri bo barasutamye, iruhande rwabo haryamye umuntu uryamye ku gatanda gafite ibara rijya gusa ubururu.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, abenshi muri bo baricaye, bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa nk'umutuku, iyo nzu kandi isize amarangi agiye atandukanye.

Abantu bahagaze, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu, kuri icyo cyapa harimo ibirango, handitseho n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu batandukanye. Abo bantu barahagaze. Harimo abagore n'abagabo. Bose bambaye amakarita y'akazi mu ijosi. Inyuma yabo hari ibyapa byanditseho amagambo, bifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru.

Abantu batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo ndetse n'abana bato abenshi muri abo bantu bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'iroza bambaye kandi n'udupfukamunwa bamwe muri bo barahagaze abandi baricaye.

Umuntu uwo muntu ni umugore wicaye, ari guseka, yambaye amadarubindi, afite indangururamajwi, yambaye amaherena, inyuma ye hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu benshi abo bantu ni abagore n'abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bamwe muri bo inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza hariho n'imibare.

Abantu, abo bantu n'abagore bane bambaye imyambaro ifite amabara agira atandukanye, baricaye bose bateruye abana, inyuma yabo har’urukuta rumanitseho ibyapa bifite amabara agiye atandukanye biriho n'amashusho.

Abantu abo bantu ni abagore n'abana, bamwe muri bo baricaye, undi umwe arahagaze, yambaye umwambaro ufite ibara ry'umweru, imbere ye hari umwana muto wambaye umwambaro ufite ibara ry'umuhondo, ari ku munzani w'ibiro.

Abantu benshi batandukanye, umwe muri abo bantu ni numugore, afite umusatsi w'umukara yambaye umwambaro w'akazi yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu, yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo bamwe baricaye abandi barahagaze bambaye imyambaro ifite amabarage atandukanye abenshi muri bo bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru umwe muri abo bantu ari kwandika.

Abantu benshi batandukanye muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bamwe barahagaze abandi barasutamye, bari imbere y'inyubako isakaje amabati afite ibara rijya gusa ubururu bwererutse.

Umwe muri abo bantu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa ari guseka yambaye amadarubindi, yambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru inyuma ye hari abandi bantu bamwe muri bo baricaye undi umwe arahagaze.

Abantu, abo bantu ni abagore batatu bagaragara igice cyo hejuru gusa, bambaye imyambaro y'akazi ifite amabara asa, bambaye amashati y'amaboko magufi afite ibara ry'ubururu, bambaye n'udutambaro tw'umweru mu mutwe.

Abantu batandukanye, abo bantu barahagaze, harimo abagore n'abagabo, bose bambaye udupfukamunwa, babiri muri abo bantu ni abagabo bafite inkoni, abo bantu bahagaze imbere y'inyubako isakaje amabati, afite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse.

Abantu batanu bagaragara igice cyo hejuru gusa. Bane muri bo ni abagore undi umwe n'umugabo. Abo bantu bambaye imyambaro ifite amabarage agiye atandukanye. Bahagaze imbere y'inyubako. Kuri iyo nyubako hejuru hamanitseho ibyapa bibiri byanditseho amagambo.

Abantu. Abo bantu ni bane. Bahagaze imbere y'inyubako. Bambaye imyambaro ifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse. Bose kandi bambaye udupfukamunwa, bambaye n'inkweto zifunguye.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo uba ugaragara igice cyo hejuru gusa, yambaye agapfukamunwa gafite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, yambaye umwenda w'akazi, ufite ibara ry'umweru, uwo muntu kandi afite icupa mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze abo bantu ni abagore n'abagabo harimo abirabura n'abazungu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bahagaze imbere y'inyubako kuri iyo nyubako hejuru handitseho amagambo manini ari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi, abo bantu n’abagore bahagaze bambaye imyambaro y'akazi isa, bambaye udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu bwerurutse, bambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, inyuma yabo har’icyapa cyanditseho amagambo.

Inyubako ndende izo nyubako zose zisakaje amabati afite ibara rijya gusa umutuku, kuri imwe muri iyo nyubako hejuru hahagaze abantu, imbere y'iyo nyubako hari ipikipiki, hari imodoka, hari n'ibendera.

Inyubako iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye, isize irange rijya gusa ibara ry'umuhondo, kuri iyo nyubako hejuru handitseho amagambo manini yanditse mu ibara ry'ubururu, imbere y'iyo nyubako hahagaze abantu.

Abantu babiri bicaye umwe muri bo ni umugore ukuze yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, ateze igitambaro mu mutwe, undi ni umugabo yambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'ubururu.

Inyubako, imbere y'iyo nyubako hari abantu batandukanye, hari umutwazi w'ipikipiki wicaye ku ipikipiki, hari kandi n'undi muntu uhagaze wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umweru, hejuru y'iyo nyubako hamanitse icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Abantu batatu, abo bantu ni abagore bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, baricaye, umwe muri bo yambaye amadarubindi, yambaye agapfukamunwa yambaye n'isaha.

Abantu benshi bahagaze, abo bantu harimo abirabura n'abazungu, muri abo bantu kandi harimo abagore n'abagabo, bahagaze iruhande rw'icyapa cyanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, ayo magambo ari mu ndimi zitandukanye harimo ururimi rw'Ikinyarwanda n'ururimi rw'Icyongereza.

Inyubako, iyo nyubako isakaje amabati y'umukara, isize irangi ry'umweru, ifite amadirishya y'ibirahuri, kuri iyo nyubako hejuru haanditseho amagambo manini ari mu rurimi rw'icyongereza, ku muryango w'iyo nyubako kandi hari ikinyabiziga.

Abantu, bamwe muri abo bantu barahagaze abandi baricaye, bambaye udusashe mu mutwe dufite ibara ry'icyatsi, bambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, bambaye n'umwambaro w'akazi ufite ibara ry'ubururu.

Abana benshi abo bana harimo abahungu n'abakobwa bahagaze mu kibuga umwe muri bo yambaye agapira k'amoboko magufi, gafite ibara rijya gusa nk' iroza. Yambaye n'ikabutura. yarambuye amaboko ye.

Abantu abo bantu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bamwe barahagaze, bane muri bo barasutamye, imbere yabo haryamye umuntu uryamye ku bitambaro bifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwijimye.

Abantu batandukanye, babiri muri abo bantu barasutamye, umwe ni umugore undi ni umugabo, iruhande rwabo haryamye undi muntu utagaragara neza, abo bantu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye.

Abantu, abo bantu ni abagabo batatu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo ahagaze hagati y'abandi bamutwaye mu maboko, inyuma yabo hari abandi bantu bambaye imipira y'umweru hari n'ibiti birebire.

Abantu benshi batandukanye, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bahagaze mu muhanda w'amabuye ukikijwe n'ibiti, abo bantu kandi bari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu benshi batandukanye. Muri abo bantu harimo abagabo n'abagore bambaye udushashe dufite ibara rijya gusa nk'ubururu mu mutwe, bambaye n'udupfukamunwa dufite ibara rijya gusa nk'ubururu bwerurutse. Bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze.

Umuntu. Uwo muntu ni umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa. Afite ubwanwa. Uwo muntu ari kunywa amazi. Yambaye agapira k'amaboko magufi, yambaye kandi n'igitambaro cy'umweru mu ijosi.

Abantu babiri bagaragara igice cyo hejuru gusa, umwe muri bo ni umugore, afite imisatsi miremire, yambaye agapfukamunwa, ahetse igikapu cy'umukara, yambaye n'isaha ifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwijimye.

Umuntu uwo muntu ni umugore wicaye, yambaye agapira k'umukara yambaye n'ipantaro ifite ibara rijya gusa ivu yicaye hasi, imbere ye hari mudasobwa naho iruhande rwe hari icupa ry'amazi, inyuma ye hari intebe.

Abantu, abo bantu bari kugenda, imbere yabo hari amazi menshi ari kumanuka ku musozi, iruhande rw'abo bantu hari amabuye amanini n'amatoya, abo bantu kandi bakikijwe n'imisozi iriho ibiti bitandukanye.

Igihingwa giteye mu butaka, icyo gihingwa gifite ibibabi bifite ibara ry'icyatsi cyijimye, kuri ibyo bibabi kandi hariho ibijojoba by'amazi, mu butaka buteyemo icyo gihingwa hariho utubuye dutoya.